Abashinzwe umutekano ni beza cyane. Iyo babonye igisambo bagifatira ku gihe, bakagifata, ibyo cyibye bakagishyikiriza ubugenzacyaha, bakagifunga cyangwa se bakabica amafaranga y'ibyo bintu cyatwaye.

Ni inama ihuriweho n'abakuru bagize igihugu, biga ku bibazo ndetse n'ibintu byateza imbere igihugu muri rusange. Urugero: ubukungu, imibereho myiza, iterambere, ndetse no gutekereza kuri ejo hazaza kw'abatuye igihugu.

Umuco ni mwiza cyane usanga abantu bameze neza bizihiwe kuko buri wese aba afite utuntu dutandukanye, imyambaro, kwiyogoshesha ukabona umuntu afite inyogosho yamenya ahayiku ariko ukabona iramubereye.

Umuco ni mwiza cyane, utuma umuntu abaho neza akagira ubuzima bwiza, akagira isuku. Iyo ufashe ahantu ukahakubura neza, utuma neza cyane abantu baza bizihiwe bakugana, babona ahantu hakeye hameze neza.

Umuco ni mwiza cyane kuko ufasha abantu kuba bari hamwe, bakibuka ibya kera, ugahuza abantu, iyo bawufashe usanga bashobora guteka cyangwa se bagashigisha ibintu bitandukanye. Imisururu ni myiza cyane, iraryoha, ifasha abantu kuryoherwa.

Inkono y'itabi ni umuco gakondo, abantu benshi hari abakunda kuyinyweramo, abakecuru, abasaza bagashyiramo itabi ry'ibikamba, kugira ngo baze gutumura, maze bakarinywa.

Ni byiza cyane, utuma abantu bamenya ibintu bitandukanye cyane, ugasanga umuntu amenye guhinga, kuragira amatungo nk'intama, ugasanga zigaragaye neza, zikarya, zigahaga, zigakura neza. Usanga umuntu abayeho neza, yambaye neza cyane.

Umuco ni mwiza cyane, utuma abantu bagaragara neza kuko iyo ubonye babyambaye, usanga bagaragara neza cyane bameze neza, iyo umuntu yambaye urunigi uba ubona yizihiwe ameze neza, buri wese amushagaye abasha kureba ibintu yambaye, urunigi usanga rugaragara neza rufite amabara meza cyane, ikibo na cyo bagitwaramo ibikoresho bitandukanye wagituramo ibintu.

Umuco ni mwiza cyane utuma abantu bagaragara neza cyane kuko iyo ubonye aho bari, uba ubona bizihiwe, batuje, ugasanga umuntu yicaye ku kirago ameze neza cyane, ukabona aratuje.

Inyubako rusange, inyubako rusange ni nziza cyane kuko ifasha abantu kuruhuka, iyo ujyiye mu rusengero bigufasha kuba wegeranye n'Imana, kuko uba ugiye gusenga Imana, uhurirayo n'abantu benshi kandi ngo babiri, batatu bishyize hamwe Imana iba iri hagati yabo.

Ibikorwaremezo aho biri hose haba hiranga kuko usanga bifite inyubako nziza cyane zikeye, uganga ziri ahantu hisanzuye ugasanga ni amazu meza ajyanye n'igihe, ugasanga ni ibintu byiza cyane kuko biba byarateguwe na reta.

Inyubako rusange ni nziza cyane, zituma abantu bahahurira bakagira ibyo baganiraho, niba ari amashuri abanyeshuri bahuriramo bakiga amasomo atandukanye, bagatsinda neza. Cyangwa se insengero bagahuriramo bagasenga Imana imwe. Bose baba bafite umugambi umwe, kubera baba bahuriye ahantu hamwe cyane.

Ahantu bategurira ibyo kurya ni heza cyane, kuko usanga nta muntu uba udafashe ibyo kurya, ugasanga babiteguriye ahantu hameze neza cyane, haba ibyo kurya, ibyo kunywa, ugasanga buri wese arabikeneye, akabirya yizihiwe, wasanga byose byateguwe.

Ingendo ni nziza cyane zituma umuntu abasha kugera iyo agiye yihuse, adatinze mu nzira, akagenda n'imodoka ikamufasha kugenda atuje ameze neza cyane, kandi akagenda yishimye kuko agira iyo agiye ku gihe.

Ingendo ni nziza cyane, zifasha abantu nko kugera iyo bagiye bihuse, cyane cyane bakanabasha kubona amafaranga, kuko abafite imodoka na moto babasha gucuruza, izo ngendo bakabona amafaranga bikabafasha kwiteza imbere, iyo ugiye mu rugendo uba ushobora kuba wabonamo inyungu.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza cyane, ifasha umuntu kubaho neza akiteza imbere, amagare afasha umuntu kuba yagera iyo agiye, akitoza cyane kuba yajya mu marushanwa akiteza imbere cyane, akabasha kubaho.

Imikino ni myiza cyane usanga umuntu iyo yakinnye agira ubuzima bwiza, agakorera amafaranga bakamuhemba, iyo ugiye gukina umupira w'amaguru uba ushobora kuba wakinira gihugu, ugakina hanze ugasanga witeje imbere, wabonye amafaranga menshi.